Abantu benshi bicaye harimo umugore umwe barimo gusinya, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi meza, umugabo umwe yambaye ingofero y'umutuku na karuvati y'umutuku n'ishati y'ubururu.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, baricaye, ni abagabo n'abagore, barimo kuganira barizihiwe, imbere yabo hahagaze umugore wambaye itaburiya y'umweru, yazamuye ibiganza bye arimo kuvuga, inyuma ye hanitse umunzani.

Abaganga bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, bafite ibikoresho bitandukanye barimo gutunganya imiti ndetse no gupima ibirebana n'uko bazavura abarwayi indwara zitandukanye.

Ahantu hateretse amakarito menshi cyane, afite ibara ry'umweru n'umuhondo arimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga, mu gusuzuma ndetse no kugenzura umuti wifashishwa mu kuvura abarwayi.

Umugore n'umugabo bizihiwe bicaye ku ntebe zifite aho kwegamira, umugabo afashe ku bitugu by'umugore we ndetse no ku nda y'umugore we, imbere yabo hateretse intebe irambitseho ibipapuro ndetse n'undi mugore wicaye, wambaye itaburiya y'ubururu uri kugenda abaganiriza.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe kuruziga, harimo abagabo n'abagore, hagati yabo hatereta ameza ariho imiti iri mu macupa y'amoko atandukanye, imbere n'inyuma hicaye abaganga babiri b'abadamu.

Abagore bahuriye ahantu hamwe, bishimye, bamwe biteze ibitambaro, umugore umwe arahetse, yiteye umwenda w'umweru, umugabo uhagaze uri gupima umwana mu munzani, ari kureba ku biro, yambaye ishati y'umweru.

Ihuriro ry'abantu benshi bahuriye hamwe baricaye, imbere yabo ku meza ha hateretse amacupa y'amazi, kandi imbere yabo hahagaze abantu benshi bari ku murongo, abagore n'abagabo bambaye udupfukawa barimo kuganira barizihiwe.

Inzu nziza ifite amabati y'umutuku, ifite irangi ryiza ryumweru hariho imitako myinshi itandukanye, igaragaza ko ari inzu icuruza imiti yifashishwa n'abarwayi mu kwivura indwara zitandukanye.

Ahantu hubatse neza, hubakishije amapave, inzu yubatse neza ifite igitwe imbere yayo hariho icyapa kiriho amagambo yanditswe m'ibara ry'icyatsi yitwa hapinesi ndetse iyo nzu ifite inkingi z'umweru.

Ibyatsi byiza bitohagiye bifite amababi y'icyatsi ndetse n'andi mabara agiye kuba oranje, biri kugaragara neza byitaweho kugira ngo bizifashishwe mu gukora umuti uzifashishwa mu kuvura abarwayi.